Abantu benshi dushishikarizwa kwitabira korora. Iyo umuntu atunze inka ntabwo abura amata ndetse ntabwo agorwa no kubona ifumbire niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuyoboka umushinga w'ubworozi.